Mu murima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ibitunguru harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara uhetse ipompo ari gutera imiti ibi bihingwa kugirango bizagire umusaruro mwiza.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'icyayi harimo abantu babiri b'igitsina gabo bahetse imipompo bari gutera imiti icyo cyayi kugira ngo kitazatakwa n'yo ndwara kugira ngo bazabone umusaruro mwiza.

Mu nzu nini cyane y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa by'amatungo ndetse n'ibihingwa biteretse ku meza aho birinda ibihingwa indwara zigiye zitandukanye, hari imiti iri mu ducupa tw'umweru dufite umupfundikizo w'icyatsi, umuhondo, umutuku, n'indi myinshi.

Mu murima munini cyane uhinzemo ibigori hari umuntu w'igitsina gabo wambaye isarubeti y'ubururu bwijimye na ga z'umutuku n'agapfukamunwa uri gutera imiti muri ibyo bigori kugira ngo bizatange umusaruro mwiza bitazatakwa n'indwara, muri uwo murima harimo n'ikigega babikamo amazi.

Mu murima urimo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'icyuzi cyororerwamo ibikomoka ku matungo kugira ngo bage babigurisha babone amafaranga.

Hamwe mu hazwi nk'ahantu hororerwa amafi, hazwi nko mu cyuzi, hari ibiba byarakozwe n'abantu, nk'uko bigaragara hano bikaba bifasha nyiracyo ndetse n'abahakikije, kwihaza mu biribwa.

Mu murima harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo, n'igitsina gore, inyuma yabo hari icyuzi, bororeramo amafi, nanone Inyuma yabo hari ishyamba riteyemo ibiti.

Mu busitani harimo abantu b'igitsina gore bateze ibitambaro bari kuronga ikawa, kugira ngo imere neza bazayijyane ku isoko babone amafaranga.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye uragaragara ko hari umugabo uhagazemo wambaye umupira w'umuhondo ndetse ku ruhande hakaba hakikijwe ibitoki, ni ukuvuga insina.

Abahinzi b'ikawa harimo igitsina gabo n'igitsina gore ,bari kugaragaza umusaruro bakuye mu buhinzi bwabo bw'ikawa, kugira ngo biteze imbere, inyuma y'abo hari amazu menshi.

Ahazwi nko mu murima uhinzwemo amakawa, urabona ko yashishe kandi ageze igihe cyo gusarurwa kuko urubuto ruratukura ndetse na ba nyirayo baba barabihinze baje kureba uburyo igihingwa cyabo kimeze.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'umuceri harimo umuntu wigitsina gore wambaye umupira w'umuhondo witeze igitambaro cya oranjee uri kwita kuri iki gihingwa cy'umuceri kugirango kizazane umusaruro mwiza.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge biri mu ibara ry'umutuku, umuhondo n'icyatsi, ari mu murima uhinzemo ikawa, ari kureba aho igeze yera kugira ngo asarure.

Mu murima w'icyayi harimo abantu babiri umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore uhetse igitebo inyuma ye bari gusarura icyayi bagishyira muri icyo gitebo, umugabo yambaye ingofero y'umutuku.

Mu murima hari imbaga y'abantu benshi, higanjemo igitsina gore bigaragara ko bishimye ku maso, bitewe n'umusaruro mwiza bagezeho w'igihingwa cy'ikawa nkuko bigaragara ko bahagaze mu murima wacyo.

Umuntu w'igitsina gore witeze igitambaro wambaye umupira urimo uturongo tw'ubururu, umukara n'umuhondo. Afite ibyayi mu ntoki ze, ari kubisoroma kugira ngo babijyane kubigurisha abona amafaranga.

Abantu benshi cyane b'igitsina gore biteje imbere, bambaye amajire y'umutuku, bigaragare ko bakora ubuhinzi bw'ikawa, bari kugaragaza umusaruro bakuramo kugira ngo biteze imbere nk'abagore.

Urupapuro runini cyane ruriho ikawa nyinshi cyane, hariho n'idarapo ry'igihugu rigizwe n'ubururu, umuhondo, n'icyatsi handitseho girini binizi epo Rwanda vanira burake ti.

Ni iduka rinini cyane ricururizwamo imiti y'amatungo ndetse n'ibihingwa. Ni akabati karimo imiti myinshi itandukanye iri muducupa tw'umweru dufite imipfundikizo y'icyatsi, harimo ibivura inkoko ndetse n'andi matungo magufi.

Mu nzu nini cyane bacururizamo ibicuruzwa by'amatungo harimo udukarito twinshi cyane turimo imiti y'amatungo, hari udukarito dusa umweru n'icyatsi, umuhondo n'umweru ndetse n'ubururu.

Ahazwi nk'ahacuruzwa imiti igiye itandukanye y'amatungo, ivura ndetse ikica n'udukoko twangiza, haragaragara ama etageri apanzemo imiti neza ndetse n'ibindi bikombe bijya gusa umweru, birimo imiti igiye itandukanye.

Mu iduka rinini harimo akabati karimo imiti y'amatungo menshi cyane iri mu tujerekani tw'umweru dufite ibyapa by'icyatsi bigaragare ko bivura ihene, inka n'andi matungo menshi.

Muri farumasi ahazwi nkaho bacururiza imiti y'amatungo, hari akabati karimo amacupa atandukanye harimo icupa rinini ririho inka n'ibikarito ndetse n'andi macupa menshi cyane harimo imiti.

Akabati karimo imiti y'amatungo itandukanye aho umuntu aza kugura kugira ngo itungo rye arivure kandi rikire, riri mu macupa atandukanye umweru, irifite umupfundikizo w'icyatsi, n'irifite umupfundikizo w'umutuku n'utundi ducupa tw'ubururu.

Aho bacururiza imiti y'amatungo muri farumasi hari akabati gapanzemo imiti myinshi ari mu icupa afite imipfundikizo y'icyatsi myinshi n'ari mu gikarito hashushanyijeho ihene n'indi miti myinshi ivura indwara zitandukanye.

Mu nzu irimo imiti y'amatungo harimo akabati karimo imiti y'amatungo, ari mu gishashi cy'umutuku umweru n'icyatsi, hashushanyijeho inka, biragaragara ko ar'iyo miti ifasha inka gukura neza.

|Mu nzu y'ubucuruzi bacururizamo imiti y'amatungo ipanze mu tubati hari iri mu ducupa tw'umweru n'iri mu dukarito n'indi iri mu macupa y'umweru ashushanyije nk'inka iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Muri farumasi aho bacururiza imiti y'amatungo, hari akabati gapanzemo imiti myinshi cyane ivura indwara zitandukanye, iri mu dukarito hari iRi mu dukarito tw'umweru n'icyatsi, umweru n'umutuku, umweru n'ubururu n'indi myinshi.

Hanze ha umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda irimo umuhondo, n'umukara, n'umutuku, ufite umusaro wibigori mu ntoki ze, inyuma ye hari ubwanwanakiro bwanitseho ibigori byinshi.

Mu murima munini cyane uhinzemo amatarasi y'indinganire harimo igihingwa cy'ibirayi n'umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge ari kubagara ibirayi kugira ngo bizagire umusaruro mwiza.

Ahantu hari mu iterambere ry'Igihugu mu rugo rw'umuntu harimo inka nini cyane ifite ibara ry'umweru n'umukara iri ahantu iri kurisha, hari n'umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru uhagaze.

Imbuga nini cyane irimo ubworozi bw'ihene nyinshi cyane harimo izisa shokora, umweru, umukara n'izindi nyinshi, hari n'abantu bahagaze benshi cyane harimo' igitsina gabo n'igitsina gore ndetse n'abambaye impuzankano ya gisirikare bigaragaza ko baje guteza imbere ubwo bworozi.

Mu murima harimo abantu benshi cyane igitsina gabo, igitsina gore bari kubagarira ibihingwa kugira ngo bizere, harimo n'abantu bambaye impuzankano y'icyatsi y'abadaso.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa k'ibigori ni byiza cyane, bireze harimo n'abantu babiri b'igitsina gabo bari kubisarura biragaragara ko ari umusaruro mwiza.

Mu kibudi bororeramo ubworozi bw'inkoko, harimo inkoko nyinshi cyane zizatanga umusaruro mwinshi harimo uw'amagi n'inyama kugira ngo abatura Rwanda uvanweho ibikomoka ku matungo.

Mu murima uteyemo ibishyimbo, harimo umuntu w'igitsina gore, wambaye ikanzu idodesheje mu bitenge, afite isuka ari kubabagara ibyo bishyimbo, kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Abantu batatu, harimo babiri b'igitsina gore, umwe wunamye wambaye imyenda y'umuhondo, n'undi w'igitsina gabo, wambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'icyatsi, umugore arunamye ari kubagara ibishyimbo.

Abantu benshi cyane harimo abigitsina gabo n'igitsina gore baje gufata ingemwe z'ibiti by'imbuto kugira ngo bajye gutera mu ngo zabo bajye barya imbuto kugira ngo bazagire ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane wo mu gishanga uhinzemo umuceri kugirango ngo abanyarwanda ndetse n'abandi bantu batandukanye bazabone ibyo kurya, harimo abantu bari kwita kuri uwo muceri.

Ibihingwa byinshi cyane bigira intungamubiri mu buzima bw'umuntu, harimo inkeri, ibirayi ikawa, ibigori, inyanya, amarongi, pome n'ibindi byinshi.

Mu murima munini cyane, uhinzemo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo ibigori, insina ziriho ibitoki n'amapapayi, aho ubiriye, agira ubuzima bwiza.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi icurizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo'iby'amatungo ndetse n'iby'ibihingwa, harimo akabati karimo ibicuruzwa byinshi hari n'uducupa tw'umutuku, ibiri mu bikarito n'ibindi byinshi.

Mu ishyamba ahari kugaragara ibiti bigiye bitandukanye byose bitoshye byakuze neza, bikaba bigiye bifatanyeho n'ikirere cyiza cyane ahitaruye, haragaragara udusozi tugiye dusumbana.

Mu ishyamba rinini cyane harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bambaye udupfukamunwa biragaragara ko baje guterwa inkunga yo guhabwa imbabura za rondereza kugira ngo tubashe kubungabunga ibiti ndetse n'amashyamba.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo ducagaguye tw'umweru n'umukara, hari n'ho abagenzi bagendera, hubakishije amatafari yo mubwoko bw'amapave, hirya y'umuhanda hari amazu menshi kandi meza.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo twinshi tw'umweru n'umukara n'undi murongo muremure w'umweru, hirya nanone hino y'umuhanda hari ishyamba riteyemo ibiti.

Mu ishyamba ahagaragara abantu bo mu nzego zigiye zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano, dasso ndetse n'abaturage, inyuma yabo harimo ibiti, bigaragara ko bari gukorera hamwe umuganda rusange.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, aho amashyamba mu gihugu ari meza atuma abantu duhumeka umwuka mwiza ndetse n'imvura ikabasha kugwa.

Inzu zo mu cyaro zubakishije amategura y'inkarakara, hepfo yazo hari umurima uteyemo urutoki, hirya yaho nanone hari ishyamba rinini cyane.

Mu ishyamba ahagaragara ubuzu bwo mu byatsi, hejuru hakaba hari gucumba umwotsi biragaragara ko ari ishyamba ririmo ibiti bigiye bitandukanye by'inganzamarumbo.

Imbuto nyinshi, bita pome, zikiri ku biti byabyo, bifite amabani y'icyatsi, ni urubuto umuntu arya kugira ngo agire ubuzima bwiza, abeho neza kandi rugira intungamubiri nyinshi.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge n'agapfukamunwa, afite inanasi mu ntoki ze, ari kuzicuruza, inyuma ye, hari abantu bari kugenda mu muhanda w'igitaka.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bari mu murimo wa kijyambere uhinzemo amashu, aho bazayajyana ku isoko bakayagurisha bakabona amafaranga.

Horticulture ubuhinzi bwiganjemo imbuto, imboga ndetse n'indabyo, harimo inyanya kokombure, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo bajye bahaza amasoko yo mu Rwanda.

Mu murima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ibigori ni cyiza cyane rwose harimo umuntu wigitsina gabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara wambaye naga mu ntoki z'umweru ari guteramo umuti kugirango bitazatakwa n'indwara.

Mu murima ahazwi nko mu gishanga harimo abantu benshi cyane harimo abagabo, abagore, hahinzemo ibihingwa bitandukanye harimo n'ibikoresho bifashisha buhira ibihingwa.

Mu murima wa kijyambere aho babiba bakaninaza imbuto ndetse n'imboga, harimo umugabo uri kuhira izo mboga n'imbuto kugira ngo zibashe kumera, azajyane umusaruro ku isoko.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo abantu b'igitsina gore bikoreye ibitebo bigaragara ko bavuye gusarura ibihingwa byabo, haruguru hari ibiti n'amashyamba bituma duhumeka umwuka mwiza.

Mu kibaya ahagaragara umugezi munini cyane ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, ndahabona ipoto y'amashanyarazi bisa nkaho amazi bayafatiramo umuriro.

Mu murima munini cyane urimo amatarasi y'indinganire kugira ngo isuri ritazawujyana harimo ibihingwa byinshi bitandukanye n'amazi abantu batuyemo hafi yayo hari ikiyaga cya kivu.

Mu ishyamba ahari kugaragara ihene nyinshi cyane ziganjemo amabara y'umweru, inyuma yazo hari kugaragara abantu benshi bigaragara ko bari kuzitegereza.

Inkoko ni amwe mu matungo magufiya afasha abanyarwanda kwiteza imbere nk'uko tubibona hano hari inkoko zigera muri enye zifite ibara ry'umweru inyuma yazo hari ibindi bigaragara mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku hasi.

Ikibuti kinini cyane gikorerwamo ubworozi bw'inkoko harimo inkoko nyinshi cyane amasake n'inkokoka ziri kurya kugira ngo zizatange umusaruro mwiza waba uw'amagi ndetse n'inyama.

Mu kiraro cya kijyambere harimo inka nini ifite ibara ry'umweru n'umukara, impande yaho hari umuntu w'igitsina gabo, wambaye ingofero ufite n'inkoni ari kuhira inka mu ibase y'umuhondo, inyuma y'ikiraro hateye insina.

Mu murima munini cyane urimo ibyatsi, harimo amatungo y'ihene menshi cyane, afite ibara ry'umweru na kake, ari kurisha kugira ngo azatange umusaruro mwiza.

Ihene nyinshi cyane ziri ahantu hafite uruzitiro kandi hanini hatari ibyatsi, ubona ko n'ibiti by'aho byumye, ziri mu mabara agiye atandukanye harimo, umweru, ibihogo ndetse n'umukara.

Aho bororera inka, hari inka nyinshi cyane, hari y'umukara ifite n'ibara ry'umweru, n'indi isa kake, hari abantu babiri b'igitsina gabo bari gukama bashyira mu cyansi kugira ngo bayajyane kuyagurisha babone amafaranga.

Isambu nini cyane iri mu bworozi bw'inka zisa shokora zifite n'amahembe meza y'mweru ziri kurisha hari n'umuntu wigitsina gabo wambaye inkweto z'ubururu, ipantaro y'umukara n'umweru, n'umupira w'umutuku n'umukara uri kuzitaho kugirango zitona imyaka y'abandi.

Mu kiraro ahagaragara inka ifite amabara y'umweru n'umukara, imbere yaho hakaba hicaye umugabo wambaye ingofero ndetse na bote, afite ibase ayitegeye inka ku munwa isa nkaho ifite icyo iri kunywa.

Inka nyinshi cyane zifite ibara ry'igitaka. Ziri mu biraro bya kijyambere, aho zitanga umusaruro. Imbere yaho hari umuntu w'igitsina gabo, wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara uzitaho.

Inka za kijyambere zisa shokora zifite n'amahembe manini cyane ziri mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, inyuma y'ibyo biraro harimo abantu b'igitsina gabo bamwe bambaye amataburiya y'umweru n'abandi bambaye amasarureti y'icyatsi bita kuri izo nka.

Aho bororera inka hari inka nyinshi cyane izisa shokora zifite amahembe meza hari n'abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore bazitaho hari abambaye amatafuriya y'umweru n'abandi bambaye amasarubeti y'icyatsi bazitaho bakazigaburira ndetse bakanazuhira.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amakaro, isize irange ry'umweru, ni uruganda rukora umuceri, harimo imifuka myinshi cyane ifite ibara ry'umweru n'ubururu irimo umuceri hamwe n'amamashini.

Mu nzu yubakishije amakaro, isize irangi ry'umweru, irimo imashini nyinshi cyane, harimo abantu benshi, abambaye amataburiya y'umweru, n'ingofero z'umuhondo.

Ikiraro cya kijyambere, harimo n'inka za kijyambere, hari umuntu w'igitsinagabo, wambaye isarubeti y'ubururu, ni veterineri ,aho aje kuvura inka, kugira ngo arebe indwara arwaye.

Inka za kijyambere, ziri mu kiraro cya kijyambere n'abantu benshi b'igitsina gabo, hari abambaye ikabu y'umweru n'abandi bambaye ibisarubeti by'ubururu, inka bari kuyitera intanga kugira ngo izororoke.

Ku biraro haragaragara umuganga uzwi nk'uvura amatungo wambaye imyenda yabugenewe, harimo itaburiya y'umweru ndetse na ga z'ubururu mu biganza, ufite igikoresho cyabugenewe akoresha avura.

Mu kiraro ahantu hari kugaragara inka z'ibihogo zifite amahembe maremare umuganga wazo uvura amatungo, wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'undi umuhagaze impande wambaye igisarubeti cy'ubururu.

Aho bororera inka nyinshi cyane hari n'inka nyinshi cyane zifite amahembe y'umweru zisa shokora hari n'abantu b'igitsina gabo bari hanze yaho, umwe yambaye isarubeti y'icyatsi biragaragara ko ari we uzitaho.

Aho bororera amatungo y'inka hari abaveterineri benshi cyane, abambaye amataburiya y'umweru n'abandi bambaye amasarubeti y'ubururu bigaragare ko baje kuzitaho.

Mu murima urimo ubwatsi bwinshi, harimo inka nini nziza, isa shokora, ifite n'amahembe manini, iri kurisha muri uwo murima kugira ngo izatange umusaruro.

Ikiraro cya kijyambere kirimo inka nziza zifite amahembe zisa shokora, hari n'abantu bambaye ibisarubeti by'ubururu n'abandi bambaye amataburiya y'umweru bazitaho.

Ahazwi nk'ahakunze kuba inyamaswa zo mu ishyamba. Haragaragara inyamaswa zigera muri eshanu, ubona ko zahuje urugwiro ziri gukinira mu cyanya cyazo. Ahitaruye haragaragara umusozi ndetse n'ibiti.